Abantu bambaye amakositime afite amabara agiye atandukanye biragaragara ko ari abayobozi bakomeye hari idarapo ry'ikindi gihugu ndetse n'idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.